Ungukirwa na radiyanti royariti. Uko urushaho guhahira no kunywesha ikinyabiziga cyawe esansi kenshi mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye, ni nako urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi nta kindi kiguzi utanze. Ungukirwa muri aba bafatanyabikorwa: godeni fashoni shopu, mawunti meru supamaketi, mawunti meru peterori siteshoni.

Uyu mudamu wambaye umupira w'ubururu ipantaro y'umukara ufite telefone mu ntoki amaze kwa prayinga kugira ngo abone uko yishyura mituelle de sante akaba ariyo message wamwoherereje kuri telefone.

Impanuka ntiteguza, gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima hamwe na radiyanti yacu, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe akadirishya, ku bindi bisobanuro wahamagana, cumi n'umunani, icumi cyangwa zeru karindwi iminani ibiri mirongo itatu n'umunani, icumi, mirongo icyenda na gatatu.

Hamwe na radianti ushobora kugura ubwishingizi bw'ingwate kugura ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi iminani ibiri mirongo ine na karindwi mirongo icyenda na gatanu mirongo itatu na gatanu cyangwa se ukatwandikira kuri info@radianti.rw.

Urumve mworozi, hamwe na radiyanti tukugoboka mu gihe cy'amage, tugane uhabwe ubwishingizi bw'amatungo yawe, worore witeze imbere nta mbogamizi. Hamagara cumi n'umunani icumi, cyangwa zero karindwi iminani ibiri, mirongo itatu na rimwe, mirongo itandatu na karindwi, mirongo icyenda na karindwi.

Waba uri mu bitaro? ntugire ikibazo ingoboka kashi yishyuye, hamwe na eyateri wakwiyandikisha ku ingoboka kashi ukanza kanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatandatu, akanyenyeri kabiri, akadirishya maze ugakurikiza amabwiriza.

Sonarwa iramenyesha abakiriya bayo bose ko batagomba guhangayika, bagomba kohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho bari hose bagahamagara kuri cyenda amaze atatu, niko bimeze kuri uyu mukobwa wambaye ishati y'ubururu na marineti ufite telefone mu ntoki.

Imbere yanjye ndahabona ibiceri byinshi ndetse n'ingufuri ya sonarwa aho sonarwa ishobora gutanga ubwishingizi bw'amafaranga maze akagira umutekano.

Hamwe na KCB, ushobora kugura ama inite kuri network iyo ari yo yose, yaba Airtel cyangwa MTN, nkuko uyu mugabo Peter ari kubigenza muri app ya KCB aciye muri telefoni yiwe.

Imbere yange ni muri sikirini ya terefone aho umuntu witwa kirisi ari gukoresha beka apu kugira ngo arebe sitatimenti ya konte yiwe yo muri beka.

Imbere yanjye ndahabona ikirango cya NCBA gishushanyije nk'ikarita ya Afurika, welcome to the bank that says, Go for it.

Imbere yanjye ndahabona agakoko kahateretse, karimo inigi nyinshi zifite amabara menshi atandukanye. Harimo umuhondo, ubururu, umweru, umutuku.

Imbere yange ndahabona muri sikirini ya telefone, aho umuntu uri gukora onurine shopingi harimo amakote meza meza cyane amanitse ku maporotemanto.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri bahagaze umwe ni umuzungukazi wambaye ishati yumweru afite n'agakapu undi ni umwiraburakazi yambaye umupira w'ubururu afashe ishati mu ntoki ari guskana code kugirango amenye uko igurwa maze uyu mukiriya w'umuzungu ayishyure.

Hano ni muri sikirini ya terefone, aho nyirayo ari gushaka kugura ibintu onu rayini muri godeni fashoni.

Imbere yanjye ndabona aho bacuruza imyenda itandukanye y'abadamu imanitse kuri porutemanto nanone ndahabona n'ingofero.

Hano ni mu iduka aho bacuruza imyenda ndahabona umukobwa ufashe umwenda uri kuri porutemanto ari kuwureba ashaka kuwugura. Imbere ye hari indi myenda myinshi iri ku maporutemanto.

Imbere yanjye ndahabona abagabo babiri, bafite urufunguzo runini rw'imodoka rwanditseho ayi bi gi akagera motozi bahagaze imbere y'imodoka nshyashya idafite pulake yo mu bwoko bw'ivatiri icuruzwa n'akagera motozi

Imbere yanjye ndahabona imodoka nshyashya, ivuwaturi y'umweru, ikaba iri mu bwoko bwa Toyota rava fo, hayiburidi. Yo muri bibiri na cumi na karindwi. Iparitse hafi ya sitasiyo.

Hano hari sare nini cyane harimo ibyuma bitandukanye, ndi kuhabona imodoka ifite ibara ry'umutuku, ibyuma byazamuye hakaba hari n'indi ihari zose ni shyashya.

Imbere yange ndahabona imodoka ebyiri nshyashya ziparitse ku mapave ni iz'akagera moto kampani igurisha ibinyabiziga.

Iyi ni imodoka iri kugaragaramo imbere ni heza, imiryango ibiri y'inyuma irafunguye. Hari n'izindi ziparitse hirya, imwe isize irangi ry'umutuku.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kiriho ikimenyetso ndetse n'amagambo yahundandayi kiri ku muhanda wa kaburimbo imbere hari inzu yahundandayi akaba ari aho bacuruza ibinyabiziga bya hundayi.

Hano ni muri banki ya keyisibi, Kenya kamasho banke, hari abantu batatu bahagaze kuri gishe bari kwakirwa, mo imbere hari abakashiya bari kubakira.

Imbere yanjye ndahabona inote y'amafaranga ijana y'amanyarwanda ya kera. Ndahabona ibice bibiri, icy'imbere n'icy'inyuma.

Imbere yange ndahabona ibiganza by'umuntu uri kubara amafaranga y'amanyamahanga n'inoti nyinshi, hafi ye hari imashini ibara amafaranga.

Imbere yanjye ndabona abantu babiri hari umusore w'inzobe wicaye imbere ya mashine muri gishe ari kwakira umukiliya, ndahabona none pulita hirya ndahabona kizimyamwoto ni muri ekwiti banke.

Imbere yanjye ndahabona gishe iricyapa cya western union hari abantu babiri umudamu arimo imbere muri gishe yambaye umupira w'umukara n'umweru linnete ndetse n'agapfukamunwa k'umukara ari guhereza amafaranga undi muntu uri inyuma ya gishe yambaye agapfukamunwa n'umupira w'umutuku .

Imbere yanjye ndahabona amaboko y'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha afite amafaranga menshi yamanyamahanga inote z'igihumbi igihumbi mu ntoki arikuzibara.

Hano hari umugabo uri kubara amafaranga ku meza imbere ye hari ayandi mafaranga afunze imifungo, hari karikatirise hirya hari n'akamashini kabara amafaranga, imbere nanone hari undi muntu uhagaze ugaragara amaboko.

Hano ndahabona isahani iteretse ku meza, iriho capati nyinshi zigerekeranyije, biragaragara ko hano ari ahantu bacuruza kantine.

Imbere yange ndahabona ikirahure kirimo amata ateretse ku meza y'umweru ya purasitiki, iruhande rwacyo hari isahani y'umweru, hano ni muri kantine.

Imbere yanjye ndahabona indobo iteretse ku meza mfite umufuniko w'ubururu, uwo mufuniko uriho amasambusa, ndetse hari n'isambusa yacitsemo kabiri.

Imbere yanjye ndahabona indobo ebyiri z'umweru zirimo amandazi ndetse na keke, ziteretse ku meza ahari n'ikaramu, imeza iri iruhande rw'urugi rw'ubururu rureba mu muhanda.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri bateruye igicuba bari gusuka amata mu cyuma gikonjesha amata. Hari ibindi bicuba biri hasi hakaba hari n'abandi bantu benshi bahahagaze harimo n'umukozi w'iyi koperative wambaye isarbeti y'icyatsi kibisi.

Hano ni muzu ndabona etajeri ipanzeho utubido twinshi tw'umweru turimo amata biragaragara ko aha ngaha bacuruza amata.

Hano hari abantu bacuruza kantine ni umusaza ndetse n'umuhungu we, hari kontwari iriho indobo zirimo amandazi na etajeri irimo utubido tw'amata.

Imbere yanjye ndahabona umudamu witanye uri guseka ufite ijage y'amata mu ntoki, uhagaze imbere y'indobo y'icyatsi kibisi ndetse n'ameza ariho ijage n'umufuniko w'izage, ndetse n'umubirikira hirya hari icyuma gikonjesha amata.

Imbere yange ndahabona abakobwa babiri, umukobwa umwe afashe agakarito karimo amata, hejuru hari utundi dukarito dutoya tw'amata, na none hari undi wambaye umupira w'umukara uri ku ruhande nawe afite udukarito tubiri twa'amata mu ntoki.

Hano hari umuryango ufunguye ufite inzugi zubururu hari amajerekani yamazi ya jibu ateretse agerekeranije ku makaro hafi yigikuta cyamatafari ahiye iruhande rwayo hari firigo.

Imbere yanjye ndahabona isahane y'umweru iriho amandazi menshi akoze neza, hakaba hariho abiri y'igisate.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye w'bururu hari agakontwari gatoya kanitseho ngo ni amata meza, ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge, hariho umwana ufite ikirahure kirimo amata, hirya hari firigo ndetse hari na etajeri iriho ibintu.

Hano imbere yanjye ndi kuhabona telefone, aho uwayikoreshaga yari ari muri apurikasiyo ya mayi banki. Taranzakisiyo yakoze yabaye apuruvudi. Yabaye sakisesifuli.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye usize irangi ry'umuhondo hejuru yaho handitseho wesitani uniyoni, harimo abantu benshi bari kuhagana binjira bashaka serivisi za wesitani yuniyoni.

Hano muri sikirini aho joni murale agiye kwishyura ibicuruzwa yaguze akoresheje peyipale.

Imbere yanjye ndahabona umuntu uri gukoresha serivisi muri mobile money aho yakanze kuri karindwi avuga ngo pending aprovo cyangwa ibyemezo bitaranozwa .

Hamwe na ayi endemu banki waba umunyamuryango wa gorobal citizeni, maze ukajya wohereza ukanakira amafaranga ukoresheje manigaramu, wesitan9 uniyoni, na riya mani taransifa.

Copedu, twizigamire, tugurizwe, dutere imbere. Ohereza unakire hamwe na Western union.

Imbere yanjye ndahabona icyangombwa cy'ubutaka, kiri notifiye komforume arojinali, cy'abantu bahagarariwe na Byusa Mariseli.

Hano ndahabona paje ya hisitorike ya banki, y'amataranzagisiyo yabaye ku itariki icumi z'ukwakarindwi bibiri na makumyabiri na gatatu, kugeza ku itariki cumi n'ebyiri z'ukarindwi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Hano ndahabona icyemezo cyo kutabamo umwenda w'umusoro cya ete bulicomu limitedi, cyatanzwe na Rwanda reveni hifashishijwe ikoranabuhanga.

Imbere yanjye ndabona hisitorike yo muri beka ya kampani ya amekikolo limitedi ya taranzagisiyo zabaye ku itariki eshatu z'ukwa kane mu bibiri na makumyabiri na gatatu.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imbere yange ndahabona gishe, aho hari umukozi urimo imbere uri kubara amafaranga ari guseka, na none hari umukiliya uri hano inyuma uteze igitambaro gitukura nawe ari guseka, ategereje kwakira amafaranga.

Hano ndahabona amafaranga menshi y'inote z'amadorari ya Amerika zishashe hasi. Hejuru yazo hari iyindi noti imwe ariko yo itari amadorari.

Ahangaha banki nkuru y'u Rwanda iragaragaza uko amafaranga atandukanye y'amanyamahanga yagurwaga, akanagurishwa, ku wa mbere, tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa mbere, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Imbere yanjye ndahabona amaboko ari guhererekanya ku mafaranga umwe ari guha undi inote z'amadorari y'amanyamerika, undi akamuha inote z'amafaranga yo muri nigeriya.

Imbere yanjye ndahabona abagabo babiri bicaye; aho umwe ari kubara amafaranga menshi atandukanye ariko higanjemo amadorari y'amanyamerika.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri aho hagaragara amaboko yabo bari guhererekanya amafaranga, umwe ari guha undi amadolari naho undi akamuha amafaranga yandi atari amadolari.

Hano imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara. Afite amafaranga menshi mu ntoki ze, ari kuyabara. Ariko ni amanyamahanga, ntabwo ari amanyarwanda.

Hano imbere yanjye hari ameza ariho amafaranga menshi afunze kumifungo y'amanyamahanga harin'amashine karikiratirise, hari intoki ziri guhereza izindi amafaranga yamadolari y'inoti.

Imbere yanjye ndahabona agataburo kagaragaza uburyo idorari rivunjwa, aho bavuga ko idorari rimwe rigana na zeru n'ibice maganacnda na cumi n'ikenda y'amayero, noneho ukagenda umanuka bitewe n'amafaranga ushaka kuyivunjamo.

Imbere yanjye ndahabona intoki ziri kubara amafaranga imbere y'izo ntoki hari imifungo myinshi y'amafaranga.

Imbere yanjye hari umuntu wicaye ari gukoresha akamashini kaba n'amafaranga ari kubara amadorari, inote z'ijana ijana.

Hano ndahabona amafaranga menshi y'inote z'abanyamahanga, hakaba hari inote z'ijana ijana z' amadolari.

Imbere yanjye ndahabona amafaranga harimo inote ndetse n'ibiceri inote harimo iz'amadolari y' Amerika harimo iz'amayero n'izindi.

Imbere yanjye ndabona icyapa cyo muri biro de shanje, aho kiri kugaragaza uko bagura, bakanagurisha amafaranga y'amanyamahanga. Haba na manigaramu.

Imbere yanjye ndahabona etaje ifite inkingi zisize irange ry'umweru, ikaba isize amabara y'icyatsi. Yubakishije amatafari ahiye. Hari icyapa cya Muhabura forekisi biro,

Hano ni muri sare, ndahabona kontwari, harimo na ekara, hejuru hari icyapa cy'ubururu cyanditseho karensi egisicenji intanashono. Ikindi kiri ku ruhande cyanditseho karensi egisicenji eyitiyemu.

Iyi ni biro deshanje haba na wesitani yuniyoni, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe, aho nta winjiraga atambaye agapfukamunwa.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya biro deshange cyangwa foregisi biro, aho cyerekana uburyo bagura, bakanagurisha amafaranga y'abanyamahanga.

Imbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, hakaba hari umuryango ufite ibyapa by'ubururu, hejuru handitseho ngo fiyuca foregisi biro. Mani egisicenji, mani taransifa.

Ndabona umukobwa wambaye umupira w'imirongo y'umweru n'umukara, ari guseka yambaye na rinete, ari muri kiyosiki aho akora serivisi za eyateri mane

Hano imbere yanjye ndahabona intebe zifite designe nziza ziriku n'ameza yazo hanoba mpabona utundi tumeza tubiri.

Imbere yanjye ni muri sare hari akabati gakozwe mu mbaho, nkaba mbona igikombe k'range ndetse n'umuntu uri gusiga irange.

Hano ni muri salo ndahabona akameza gateretseho imitako gafite irangi ry'umweru n'umukara ku mpande, hari n'akandi kameza ko hirya na none nako gafite irangi ry'umweru n'umukara ku mpande ndabona intebe zitagaragara neza zifite irangi ry'umweru hirya munguni hari ururabo.

Hano ni mu nzu amatara ari kwaka. Ndahabona garide robe nziza hari n'ibindi bikoresho bikozwe mu mbaho, biracuruzwa.

Hano ndahabona intebe zikoze neza, hariho n'utumeza turenze kamwe, hirya hari izindi ntebe, hakaba hari imisego iri mu kabati kari inyuma y'intebe, biragaragara ko ari ahantu bacururiza intebe.

Imbere yanjye ndabona umuhanda wa kaburimbo ibinyabiziga biri kugendamo, amatara yo ku mihanda aracanye, hakurya ndahabona inzu ya etage ifite amabara y'umuhondo, ifite amatara arikwaka, imbere yaho hari imodoka zihaparitse, hari n'icyapa kivuga ngo ntihanyurwa.

Imbere yanjye ndahabona amafunguro atandukanye arimo imineke, ji, yahulute, inanasi, ndetse hari n'amatasi hirya. Hano ni muri hoteli.

Imbere yange ndahabona etaje, iri ahantu hateye ibiti byinshi, imbere yayo hari imitaka igiye itwikiriye intebe nyinshi n'imodoka iparitse, hino hari pisine nziza cyane, hano ni muri hoteri.

Hano ni muri buritamu ishuwarensi kapanyi aho ndibona abakozi ba butamu, bicaye kuri mashini zabo bari guha serivisi abakiriya baje gusaba ubwishingizi butandukanye.

Hano ndahabona umuhanda mwiza hirya no hino hariho amajaride. Uragana ku cyicaro cya purayime inshuwarensi kuri etaje iri imbere.

Hano ndikuhareba nyujije muri sikurini ya telefone, hari sitandi ndikubona ya Sonarwa iri mu tuntu twubakishije ibara ry'umuhondo, ikaba yandikishijwemo ibara ritukura, hanze hari amavase y'indabo, mo imbere ni heza cyane harateguye.

Imbere yanjye ndahabona inzu isize irange ry'umuhondo. Hariho icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, cyanditseho purayime inshuwarensi. Ishami rya Muhanga.

Imbere yanjye ndahabona igorofa, aho muri nivo ya gatatu hariho icyapa cya Gosheni fayinanso ishami rya Remera.

Umutanguha fayinansho kampani, yafunguye ishami ryawo ku Kicukiro, niho uyu muryango w'icyatsi kibisi uri hano.

Simbuka na bank populaire uve kuri banki popureri ujye kuri mobayiro bankingi uve kuri mobayiro bankingi ujya kuri is kashi ni uburyo bwinshi ushobora gukoranamo na banki papurere utiriwe ugera ku ishami ryayo.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, ibinyaziga biri kugendamo, hakurya yawo hari imodoka ziparitse hari na etaje.

Aha ngaha ndi kurebera hejuru, umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga, hari ibinyabiziga biparitse ku ruhande imbere y'amazu y'ubucuruzi, ndabona amazu menshi na yo nyarebeye hejuru, ni mumujyi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda; hakurya hakaba hari etaje z'ubucuruzi, hakaba haparitse imodoka nyinshi zitandukanye hirya no hino.

Imbere yanjye ndahabona isoko ryiganjemo ibiribwa, harimo abacuruzi bari gucuruza inyanya, intoryi, karoti, imiteja n'ibindi.

Hano ndahabona isoko, hari ibintu byinshi bacuruza harimo na bodaboda mbona imbere yanjye zitambitse hasi. Hirya hariho indi myenda imanitse ku giti, hakaba hari amashitingi atwikiriye. Ndahabona abantu benshi, harimo abagura ndetse n'abagurisha.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hakurya hari inzu nini ya etaje aho iparitse imodoka imbere yaho, ikaba ari inzu z'ubucuruzi.

Imbere yanjye ndahabona umuryango imbere yaho hari umukarani wikoreye imizigo imifuka, na none ndahabona umudaso wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, hari n'umupolisi wambaye impuzankano z'abapolisi. Ndahabona abandi bantu bigaragara ko iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi.

Imbere yanjye ndahabona abantu ni mu isoko bari gucuruza imyenda, hirya mu mutaka w'ubururu harimo ibiribwa.

Hano ni mu isoko ndi kubona abantu benshi barimo, ndabona n'ibicuruzwa byinshi bari gucuruza birimo, ibijumba, imyumbati, karoti, puwavuro, urusenda, imiteja n'ibindi bintu byinshi.

Hano ni mu isoko, ndahabona imyanya, amashumu, kokombure, povure, imiteja hari n'abantu bari gucuruza.

Hano imbere yanjye ni mu isoko hari abahaha n'abagurisha. Hari umugore uri gucuruza amarongi afite akamashini ka pos mu ntoki bakoresha bamwishyuriraho. Hari umuhungu wambaye ishati yumukara amupfunyikiye ibyo yaguze mu ishashi, gusa si mu Rwanda kuko amashashi ntiyemewe.

Imbere yange ndahabona ihema ry'umuhondo rya emutiyeni, aho hari abantu benshi bari kurigana kugira ngo bahabwe serivise ziri gutangirwamo.

Hano ndahabona umuntu uri gucuruza, imbere ye hari abantu bari kwishyura ibicuruzwa baguze, afite na kode ya mobile money bari kwishyuriraraho.

Imbere yange ndahabona kiyosike y'umu ejenti wa mobayiro mani, hakaba hari abakozi ba emutiyene bahagaze harimo n'umuzungu.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, amatara ari kwaka ni kuri emutiyene, harimo abakozi ba emutiyene bambaye imipira y'umuhondo ndetse hari n'abakiriya baje gusaba serivisi.

Hano ndahabona umugabo wambaye ikoti ry'umukara, afite telefone ku gutwi, yicaye kuri moto. Hafi ye hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo wa Emutiyeni wanditseho ngo peyi wivu momo, afite telefone mu ntoki na we. Hano bari ni kuri sitasiyo.

Imbere yanjye ndabona ihema ya Airtel ry'umutuku n'umweru, riri ku mapave. Harimo abantu baje basaba service, harimo na none abantu bambaye imipira y'umutuku n'ingofero zitukura, akaba ari abakozi ba Airtel.

Imbere yanjye ndahabona umuta wa MTN uteretse ku mapave hakaba hari na bandelole yanditseho ngo pay with momo, kuri iyo bandelore hariho imipira y'umuhondo, amajire ya MTN n'ibindi, mo imbere harimo abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo, hafi yabo hari bafure iteretse na yo ku mapave. Hirya hari undi mutaka...

Imbere yanjye ndahabona ibiganza by'umuntu ufashe telefoni mu ntoki. Ari gukoresha application y’ Airtel kugirango abashe kugura ibintu.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ari gutambuka imbere y'inyubako y'umuhondo ya emutiyene, harimo abakozi ndetse n'abakiriya baje bagana emutiyene.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya Emutiyene cyanditseho ishyurana na mompeyi ni icya inuma tekinologi, aho ushobora kubishyura kuri kode ya momopeyi zeru zeru gatanu gatanu cumi na gatatu maze ntibagukate.

Imbere yanjye ndahabona moto iparitse ku mapave hafi y'umuhanda, ifite purake RB magana atandatu mirongo ine n'agatandatu C, ihetse bogisi y'icyatsi kibisi yanditseho vubavuba.

Hano imbere yanjye ndahabona moto iparitse kumapave, hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Iriho bokisi yanditseho vuba vuba.

Imbere yanjye ndi kuhabona umuzungu uri gutambuka ku makaro mu nzu nziza hari na esikariye zizamuka zijya muri nivo yo hejuru ikaba igurishwa.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye ugerara muri saro, hari amakaro isizeho irange ry'umweru ku nkuta no hejuru, hari itara riri kwaka ni mu nzu iherereye mu mujyi wa Kigali iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu y'mafaranga y'u rwanda.

Imbere yanjye ndahabona intebe nziza ziri muri saro ku makaro mu nzu ifite dizayini nziza hejuru n'amatara ari kwaka, iyi nzu irakodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi iri muri Kigali.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ijire, uramutse umukeneye wamuhamagara kuri zeru, karindwi, umunani, kabiri, gatanu, rimwe, ikenda, kabiri, kane, zeru.

Hano ni mu nzu, ndahabona icyumba kirimo itapi itukura, hari n'undi muryango uva muri dushe, ni aparitema iherereye Kibagabaga, mu mujyi wa Kigali, igurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Hano ni mu nzu igeretse. Izi ni esikariye zizamuka zijya muri nivo yo hejuru. Iyi nzu iherereye mu mujyi wa kigali, ikaba ikodeshwa amadolari ibihumbi bibiri. Ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi umunani, mirongo itandatu, cumi na gatandatu, karindwi, umunani, icyenda.

Imbere yanjye ndahabona inzu ifite akabaraza gasize irangi ry'umutuku imbere n'umweru ifite garidefu n'amavase hafi yayo hanze hashashe amapave n'aparitema ikodeshwa iri ku Gisozi. Ikaba irimo ibikoresho byose ifite ibyumba bibiri byo kuraramo na wese ebyiri na dushe mu nzu.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza iri mu gipangu gigorotirije amatafari atukura, ifite igisenge gitukura n'amabara y'ubururu, iherereye kabeza hafi y'umurenge iragurishwa.

Iyi nzu ifite urupangu ndetse n'amapave ashashe imbere ni kadasitere irageretse iherereye mu rugando hafi ya komvesheni senta, irakodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Hano ni mu nzu, iki ni igikoni cy'inzu imwe, ifite icyumba kimwe hamwe na dushe na wese mu nzu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, giherereye Kigali Kacyiru.

Hano ni muri simba supamaketi ndahabona urujya n'uruza rw'abantu benshi, bambaye udupfukamunwa bari guhaha, bari gusunika utugare.

Iri ni iduka ricururizwamo imyenda. Amatara arikwaka harimo abadamu bari kugura nabari kugurisha imyenda.

Imbere yanjye ndahabona urujya n'uruza rw'abantu bari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndi kuhabona ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Aha ni muri alimantasiyo ndabona ama etajeri ari ku murongo hariho ibintu byuzuye, hari koridoro abantu banyuramo bari guhaha, hejuru amatara ari kwaka.

Imbere yanjye ndahabona inzu y'ubucuruzi amatara ari kwaka hejuru kuri parafo irimo amakararo harimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu.

Imbere yanjye ndahabona umuntu ufite ibicuruzwa ari gusikana maze akarebera muri mashishine, kugira ngo amenye agaciro kari buri kimwe umuguzi ari bwishyure.

Imbere yanjye ndahabona ama etajeri ariho udukarito tw'ikawa, amazi, udusashe tw'amata, udukarito tw'amata , udukarito twa ji ,ni muri supamaketi.

Imbere yanjye ndahabona ikarita y'umuhondo w'ubwisungane mu kwivuza mituwele desante ya Nkundimana ikaba ari iya gikomero, Nkundimana ntashobora kurembera mu rugo afite iyi karita ahubwo yajya kwiyivuza.

Hamwe na arayesesibi, wazigamira amasaziro yawe ukiri muto. Koresha ejo heza. Ni byo uyu mwana ari gukora.

Imbere yanjye ndahabona umuntu ufashe mu ntoki ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mutuwele de sante ufite iyi ikarita ntarembera mu rugo kuko iyo arwaye ajyanwa kwa muganga akivuza.

Imbere yanjye ndahabona ibiganza bifashe ikarita y'umuhondo mu ntoki ni ikarita ya mituwere de sante ufite iyi ikarita ntabwo arembera mu rugo ahubwo iyo arwaye ajya kwivuza.

Imbere yanjye ndahabona umusaza wambaye neza umeze neza, ibi bikaba bigaragaza uko umuntu wishyura umusanzu wawe ejo heza uyu munsi azakomeza kurimba no mu busaza bwe igihe azaba ari gufata pasiyo.

RSSB, Rwanda Social Security Board. Our health, Our future. Ejo heza ubwiteganyirize bw'izabukuru mu nshingano za RSSB.

Imbere yanjye ndahabona abakozi ba RSSB baricaye bafite impapuro nyinshi mu ntoki nama computer ari imbere yabo bakaba bari kwakira abakiliriya.

Imbere yanjye ndahabona ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza mituwele desante ya araesesibi, ufite iyi karita ntarembera mu rugo ahubwo iyo arwaye ajya kwa muganga.

Hano ni muri supamaketi, ndahabona umukozi wa supamaketi hakaba hari n’umukiriya uri gukoresha ikarita ye yishyura ibyo yahashye ku kamashini. Ahawe n’umukozi wa supamaketi.

Hano ni muri supamaketi. Amatara ari kwaka. Hari etajeri ziriho ibintu bitandukanye. Hariho amavuta, corogate, uburoso bw'amenyo n'ibindi. Hakaba hari abantu bari guhaha barimo n'abana bahagaze hano.

Hano ni muri supamaketi mu gice gicururizwamo imbuto n'imboga. Ndahabona ibintu bitandukanye by'ibiribwa, hari n'umugabo wambaye umupira w'imirongo n'ingofero ufite akagare ari guhaha.

Mu masaha ya nijoro mbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, aho hasi hari icyapa cyanditse ngo Simba Gishushu, ndabona na none icyapa kigaragaza y'uko nta parikingi ihari, hakaba hari n'intebe za parasitiki z'umuhondo ndetse n'izitukura n'utu meza twazo.

Hano ni muri supamaketi. Ndabona irange ry'umweru risize ku nkuta ndetse no hejuru amatara ari kwaka, hari utu etajeri duteretse dupanze neza turiho ibintu.

Hano ni muri supamaketi mu gice cy'imbuto n'imboga ndabona imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Imbere yanjye ndahabona imigati igerekeyije iri mu ka etajeri, hari ukuboko k'umuntu wambaye umupira utukura ufite utubara tw'umweru n'umukara, yambaye n'agakomo kuri gufata umugati, ni muri supa maketi ari guhaha.

Imbere yange ndahabona utu etajeri twinshi tugerekeranyije, turiho ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ni muri supamaketi.

Hano ni muri supamaketi ndahabona amayetajeri agerekeranye apanzeho ibintu byinshi bitandukanye, hejuru amatara ari kwaka.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Hano ni muri supamaketi hari ama etajeri ateretse ku makaro apanzeho ibintu kuva hasi kugera hejuru, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro afite urupapuro mu ntoki na terefoni ari kugenda arebaho ibyo akeneye guhaha.

Hano ni muri supamaketi harimo ama etageri apanze, hariho ibintu byinshi. Aha hino yanjye hari amanido menshi cyane.